Ibigori bimeze neza biri gukura neza, bari gushyiraho ifumbire kugira ngo bizatange umusaruro ugaragara, maze nibimara kwera bazabijyane ku isoko babahe amafaranga.

Umuti batera mu bigori kugira ngo bitange umusaruro, ugaragara bimaze gukura neza, nibabijyana ku isoko, bazabone umusaruro wamafaranga menshi cyane.

Umuti batera mu bihingwa bitandukanye, harimo ibigori, n'inyanya, n'ibirayi, n'ibitunguru, kugira ngo bitazahura n'uburwayi, bizatange n'umusaruro mwiza ugaragara.

Ifumbire bakoresha bari gutera ibintu bitandukanye imyaka itandukanye, kugira ngo iyo myaka nimara gukura izatange umusaruro ugaragara.

Ingorofani bayifashisha batwara ibintu bitandukanye, nk'itaka, cyangwa ifumbire yo guteza imyaka, nk'ibirayi, cyangwa ibigori.

Ifumbire nziza imeze neza bakoresha bari gutera imyaka itandukanye, abantu batera mubuzima busanzwe bwa buri munsi.

Amafi meza, ameze neza, akuze neza ,barayagurisha bakayagura, bakajya kuyateka mu ngo zabo, bakayarya maze bakagira ubuzima bwiza.

Amafi meza bari kuyacuruza kugira ngo abantu bayagure bayarye, bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza mu mubiri wabo.

Ifi imeze neza isa neza iryoshye igaragara neza iri ku isahani nziza kugirango abantu bayirye, nibayirya bagire ubuzima bwiza bwabo bwa buri muntu.

Amafi meza manini, iyo bamaze kuyaroba baragenda bakayanika, maze bakajya kuyateka, bakayacuruza. Bakaza kuyagura bakabaha amafaranga atuma bakomeza kwiteza imbere.

Ifi imeze neza isa neza, iryoshye, iyo bari kuyiteka iba imeze neza, kuko iyo bayiriye umuntu agira intungamubiri nziza mu buzima bwe, yarangiza ikamugwa neza.

Amafi meza manini asa neza, bari kuyakonjesha kugirango akomeze kugira ubuzima bwiza abantu bazayarye agifite itoto rigaragara.

Amafi meza asa neza, afunitse mu mashashi kugira ngo atangirika, abazayagura bazayagure agifite isura nziza, nta kibazo yagize ataragize agahumuro kabi.

Ikiyaga cyiza gituze kimeze neza, gisa neza gifite ibiti byiza biri hagati mu nyanja bitanga amahumbezi, bityo umuntu wese akagira ubuzima bwiza.

Umureti mwiza bawukora mu magi, barangiza bakawurya ukaba uryoshye, iruhande hariho n'akaronji, nako wamara kukarya ukumva ugize ubuzima bwiza.

Ibiryo byiza bimeze neza, ubona ko birimo inyama, ni inyanya, ni isosi biraryoshye, bituma umuntu agira ubuzima bwiza bwa buri munsi.

Umugezi uri gutemba ubona ko uri ahantu hatuje iruhande hariho umwana ufashe igiti uhagaze imbere y'umugezi. Iruhande hariho ibyatsi biri gukura neza ubona ko bitoshye hariho n'ibiti bituma haza akayaga keza.

Ifi ni ikiribwa gikundwa n'abantu batari bakeya, kubera ko gitera intungamubiri nyinshi mu mubiri w'umuntu kandi iyo umuntu ayiriye yumva iryoshye cyane.

Amafi meza kandi menshi atanga umusaruro mwinshi, abantu bayagura bakajya kuyateka bakayarya bakagira intungamubiri nziza mu mubiri wabo.

Amafi meza cyane, ameze neza ubona ko yabonetsemo umusaruro mwinshi ugaragara, bawujyana ku isoko bakawugurisha bakabaha amafaranga, atuma bakomeza kwiteza imbere.

Igiti cya avoka gifite uruyange rwinshi kandi rwiza, nirudahungukira hasi zimaze kwera, bazaca barye, kandi basagurire isoko, maze babone umusaruro w'amafaranga menshi.

Insina nziza ziri gukura neza, ubona ko nta kibazo zifite. Ziri mu murima uhinze neza. insina nizimara kwera zikazana ibitoki bazabica babirye, cyangwa babigurishe babahe amafaranga atuma bakomeza kwiteza imbere.

igiti cy'umusave kimeze neza, cyakuze neza, kigaragara ko kigiye gutanga umusaruro mwiza, ubona ko basaruyemo ibigori babonye umusaruro mwiza, utuma bakomeza kwiteza imbere.

Amashaza ni meza abantu bayakunda ari benshi cyane, iyo bayahinze barayasarura bakayajyana ku isoko kuyagurisha bakabaha amafaranga, amwe bakayabitsa muri banki, andi bakayajyana gukomeza mu kwitezamo imbere mu bindi bihingwa.

Ubwatsi bumeze neza buri gukura neza, iyo bumaze kwera barabuca, bakabujyanira inka cyangwa ihene zikaburya zigatanga amata meza cyangwa ihene igatanga ifumbire nziza, iruhande hariho n'ibigori biri kuzamuka neza bigaragara ko biri kubona ifumbire.

Umuhanda abaturage bifashisha bava hamwe bajya ahandi, bagiye no mu mirima yabo guhinga cyangwa gusarura ibyo bahinze, kugira ngo bigende neza.

Urubingo ni rwiza bararutera bakaruhingira rwamara gukura bakaruha inka, inka yamara kururya igatanga umukamo mwiza uryoshye cyane.

Igihaza ni igihingwa abantu bakunda ari benshi. Iyo bimaze kwera barabica, bakabigurisha, bakabaha amafaranga atuma bakomeza kwiteza imbere mu bindi bihingwa.

Inturusu ni nziza, imeze neza, iri gukura neza nta kibazo zifite. Iyo zimaze gukura barabica bakajya kubyubakisha inzu, cyangwa bigakura cyane bakabibazazamo imbaho, bakajya kuzigurisha bakabaha amafaranga.

Ubwatsi bumeze neza, busa neza, bukura neza, iyo bwahiye bakabuha inka, inka zikaburya, itanga ifumbire nziza igaragara, kandi igatanga n'umukamo mwiza.

Amajeri ameze neza, ari mu murima, ategerejwe gukura, nakura bazahayajyana mu isoko, kuyagurisha babone amafaranga yo gukomeza kwiteza imbere.

Tungurusumu ni igihingwa gikundwa n'abantu batari bakeya. Iyo zimaze kwera bazijyana ku isoko bakazigurisha, bakabaha amafaranga bigatuma bakomeza kwiteza imbere mu bindi bihingwa bitandukanye.

Karoti ni igihingwa cyiza gikundwa n'abantu benshi, kubera ko gitanga umusaruro mwiza ugaragara. Barazikura bakazijyana ku isoko, bakazigurisha bakabaha amafaranga, atuma bakomeza kwiteza imbere mu bindi bihingwa bitandukanye abantu bahinga.

Ibirayi biri mu murima, ubona ko bikenewe guterwa umuti, kugira ngo bizatange umusaruro mwinshi, kandi mwiza ugaragara, bityo umuntu agakomeza kwiteza imbere.

Umurima urahinze, uhinze neza, uteyemo n'isombe, isombe irakuze, umuntu ari kubona ko igeze igihe cyo kuribwa, hateyemo n'avoka na zo nizikura bazazica bazirye, iruhande hariho igaraviye bahonda, bakaza kuyipakira bakabaha amafaranga, bityo umuntu agakomeza kwiteza imbere.

Ikidodoki ni cyiza gikundwaga n'abantu benshi, iyo babiteye bigakura, barabisarura bakabirya, cyangwa bakabijyana ku isoko bakabigurisha bakabaha amafaranga, agatuma bakomeza kwiteza imbere, ndetse n'amababi y'ibidodoki bayateka mu biryo.

Umurima basaruyemo ibigori ubona babonye umusaruro mwinshi, bagiye guhinga kugira ngo babone uko batera ibindi.

Itunda ryiza bita marikuca, riraryoha kandi rigatanga umusaruro mwinshi bakawujyana ku isoko, bityo bakabaha amafaranga atuma bakomeza kwiteza imbere.

Igihingwa cya karoti ni cyiza. Ni igihingwa gikundwa n'abantu benshi cyane, kubera ko gitanga umusaruro w'amafaranga menshi. Baragica bakakijjyana ku isoko, bakabaha amafaranga, atuma bakomeza kwiteza imbere, izindi bakazijyana mu ngo iwabo bakazirya.

Igitoki kimeze neza, gisa neza, cyakuze neza, ubona ko nta kibazo gifite, gikeneye gusarurwa kigatanga umusaruro mwiza ugaragara, utuma bakomeza kwiteza imbere.

Ibigori biri mu murima bisa neza, harimo umugabo uri kubikorera kugira ngo bibe byiza, bityo bigaterwa umuti kugira ngo bizatange umusaruro umeze neza.

Igihingwa cy'ibishyimbo, ni igihingwa abantu bakunda ari benshi cyane, aho n'abayobozi baba baje kubasura kugira ngo barebe ibihingwa byabo uko biba bimeze.

Pavuro ni igihingwa cyiza cyane, gikundwa n'abantu benshi, gitanga n'umusaruro mwinshi kandi mwiza, bityo bagakomeza kwiteza imbere.

Ibirayi byiza byinshi byatanze umusaruro ugaragara, n'ababiteye bigaragarako bishimye kandi banejejwe n'umusaruro bakuye mu byo bahinze.

Ubuhinzi ni ikintu cyiza gitanga umusaruro. Abantu iyo bikoreye ifumbire bayijyanye mu murima, kugira ngo uwo murima uzatange umusaruro ugaragara.

Abashakashatsi bakora ibintu bitandukanye muri avoka, kugira ngo iterambere rikomeze kwegereza imbere, hari n'avoka bakuramo amavuta, iyindi bakayikuramo n'isabune.

Amagi menshi kandi meza amagi agira intungamubiri mu mubiri w'umuntu, barayateka mu isafuriya yamara gushya bakayarya cyangwa bakayatekamo umureti kugira ngo umuntu agire intungamubiri nziza.

Ibihingwa bitandukanye babishesha ahantu habugenewe kugira ngo bikure neza. Byamara gukura, bakabijyana mu murima kugira ngo bizatange umusaruro mwinshi ugaragara cyane.

Ibiti bimeze neza, byakuze neza, n'urutoki ruri gukura neza, bigaragara ko ruzatanga umusaruro mwiza, kubera ko ruri mu murima uhinze neza.

Ibirayi byinshi, byiza, byakuze neza, babijyana ku isoko kubigurisha kugirango babahe amafaranga, atuma biteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi bahinga ibindi bitandukanye.

Ibijumba byiza bimeze neza binini byakuze neza, ubona ko bifite umusaruro mwiza kandi mwinshi, utuma bakomeza kwiteza imbere mu bihingwa bitandukanye.

Ibishyimbo bimeze neza, bari gukura neza, biri kumwe n'ibigori bikenewe guterwa ifumbire, kugira ngo bizatange umusaruro ugaragara w'amafaranga, kugira ngo bazakomeze kwiteza imbere mu bindi bihingwa bitandukanye.

Ipera ni igihingwa kiryoshye kandi gikundwa n'abantu batari bakeya. Baragihinga cyamara kwera bakakijyana mu isoko, bakagicuruza. Babona amafaranga bakayajyana. Amwe bakayabitsa kuri sako, andi bakayajyana mu rugo, bakayakoresha bari kwiteza imbere mu bindi bihingwa.

Amatunda ni meza atuma umuntu agira ubuzima bwiza bwa buri gihe kuko bifasha umuntu utekereza neza nta kibazo afite.

Ibihaza biri ku mufuka, ni ibihaza bikundwa n'abantu batari bake cyane, kuko biraryoha kandi cyane, iyo wabitetse ugashyiramo n'ibishyimbo, biraryoha cyane.

Abantu bari mu murima bishimye ubona ko nta kibazo bafite, banejejwe n'umusaruro wa bo bahinze, bari kuwukorera nta kibazo bafite, bazi ko bazabona umusaruro bibi.

Igihaza gisa neza cyane gifite umuhondo mwiza cyane, ukiriye agira imbaraga kandi kigira n'intungamubiri mu mubiri , bityo umuntu agakora afite imbaraga, kubera ko aba yariye iki gihaza gikuze kandi gisa neza.

Ipera ni ryiza risa neza, ni igihingwa gikundwa n' abantu benshi cyane iyo kimaze kwera bakijyana ku isoko bakakigurisha, bakabaha amafaranga atuma bakomeza kwiteza imbere.

Ihene zimeze neza, zikiri ntoya, ubona ko zisa neza. Ziri kusha ubwatsi kugirango zikure, zizatange umusaruro mwiza ugaragara.

Abantu bari mu murima bari guhinga ubona ko nta kibazo bafite. Bari guhinga kugira ngo batere ibihingwa bitandukanye, bizatuma babona umusaruro ugaragara.

Ubuhinzi bw'imbuto ni ubuhinzi bukundwa n'abantu benshi, kandi abantu benshi bakajya ari benshi iyo bimaze kwera bagasoroma bakayajyana ku isoko, bakabugurisha bakabaha amafaranga.

Ibigori bimeze neza, bisa neza, biri gukura neza, ubona uko nta kibazo bifite, bizana umureko kugirango bizatange umusaruro mwinshi kandi mwiza, utuma bakomeza kwiteza imbere.

Ikigori kimeze neza kiri gukura neza ubona ko ntakibazo gifite, bari kubireba kugira ngo babone uko bakomeza kubikorera neza.

Pavuro z'umutuku ziba nziza ziraryoha zitanga n'umusaruro mwinshi ,iyo zimaze kwera barazica bakazigurisha bakaziha amafaranga atuma biteza imbere, pavuro n'iyo bayitetse mu biryo wumva biryoshye.

Imyumbati myiza imeze neza, isa neza, yakuze. Iyo imaze gukura barayica bakayijyana ku isoko, bakayigurisha, bakabaha amafaranga atuma bakomeza kwiteza imbere. Iyindi bakayijyana mu rugo, bakayirya bakagira imbaraga.

Abamotari bikoreye amata, bayajyanye ahantu hatandukanye kuyagurisha, kugira ngo babahe amafaranga atuma bakomeza kwiteza imbere.

Imirima ihinze neza, iteyemo imyaka, iruhande hari yo uruzitiro rw'ibyatsi, ubona ko abantu bavuye mu murima bikoreye igitoki, abandi bikoreye udufuka.

Ibigori birimo na soya n'amasaka n'uburo, bivamo igikoma cyiza kandi kiryoshye, kigatanga intungamubiri nziza mu mubiri w'umuntu, akabaho neza cyane.

Imiteja ni ikiribwa cyiza gikundwa n'abantu benshi, barabihinga bakabijyana ku isoko, bakabaha amafaranga. Maze bagakomeza kwiteza imbere mu bindi bintu bitandukanye.

Igihingwa cy’ibirayi ni igihingwa cyiza gikundwa n’abantu benshi. Iyo igihingwa cy’ibirayi kimaze kwera, barabikura, bakabijyana ku isoko, bakabaha amafaranga, bagatuma bakomeza kwiteza imbere mu bindi bihingwa.

Imodoka ipakiye ibitoki hejuru hari abakarani bari kubipakira, moto iparitse iruhande rwayo, n'umucuruzi wa Emutiyene yicaye mu mutaka akoreramo.

Ikinyomoro ni kimwe mu mbuto zikundwa n'abantu batari bakeya, barabirya bitera intungamubiri mu mubiri w'umuntu cyangwa bakabica bakabijyana ku isoko, bakabaha amafaranga atuma biteza imbere mu bindi bintu bijyanye n'imbuto.

Inyana nziza ubona ko imaze igihe ivutse, ikenewe kwitabwaho igahabwa ubwatsi bwinshi, bakayitera n'imiti ituma ikomeza gukura neza cyane.

Imbuto zitandukanye zikundwa n'abantu benshi cyane. Harimo amaronji, ibinyomoro, wotameloni, imineke, n'ibipapayi bya kizungu. Harimo imbuto z'ubwoko bwose butandukanye.

Imyembe ni igihingwa gikundwa n'abantu benshi barayirangura bakayicuruza bakabaha amafaranga atuma bakomeza kwiteza imbere, n'urusenda na rwo rutanga umusaruro mwinshi kandi mwiza ugaragara.

Intoryi ni igihingwa cyiza gikundwa n'abantu benshi, kandi abantu benshi bakunda kukirya, intoryi barazigurisha bakazijyana ku isoko bakabaha amafaranga, agatuma bakomeza kwiteza imbere.

Ubuhinzi bw'inyanya. Ni inyanya nziza zimeze neza , zakuze neza ,zitanga umusaruro. Iyo zimaze kwera bazijyana ku isoko bakazigurisha, bakabaha amafaranga atuma bakomeza kwiteza imbere.

Ibishyimbo bimeze neza byinshi, bari kubigosora kugira ngo babiteke cyangwa babijyane ku isoko kubigurisha, bazabone uko biteza imbere mu bindi bintu.

Abahinzi bari guhinga ubona ko bishimye nta kibazo bafite, bari guhinga kugira ngo batere imyaka izatuma bakomeza kwiteza imbere.

Ibishyimbo bigufi ni igihingwa gikundwa n'abantu benshi, kuko gitanga umusaruro mwinshi kandi mwiza. Iyo babijyanye ku isoko barabigurisha, bakabaha amafaranga atuma bakomeza kwiteza imbere.

Inyanya ni umusaruro utanga amafaranga menshi cyane gu kuko zera ari nyinshi bakazijyana ku isoko, bityo bakabaha amafaranga atuma bakomeza kwiteza imbere mu bindi bintu bitandukanye.

Ibigori bimeze neza biri gukura neza, bitegerejwe ko bikura bakabica bakabijyana ku isoko kubigurisha, bakabaha amafaranga atuma bakomeza kwiteza imbere no mu bindi bihingwa bitandukanye.

Ibirayi byakuze neza, iyo babijyanye ku isoko bakabaha amafaranga menshi, atuma bakomeza kwiteza imbere mu bikorwa bindi bitandukanye.

Abantu bahinze igihingwa cyiza, ubona ko bishimye ko kiri gukura neza, bari kugikorera kugirango kizatange umusaruro mwinshi.

Ibijumba bimeze neza, bisa neza, byakuze neza, babijyana ku isoko bakabigurisha bakabaha amafaranga, atuma bakomeza kwiteza imbere mu bindi bihingwa.

Soya ni igihingwa cyiza cyane gitanga umusaruro mwinshi, bigatuma babijyana ku isoko kubigurisha, bagatanga amafaranga menshi bakiteza imbere buri munsi.

Ingurube ni ubworozi bwiza butanga umusaruro ugaragara. Iyo ibyaye ibyana barabigurisha bakabona amafaranga, atuma bakomeza kwiteza imbere mu bindi bintu bitandukanye.

Ibirayi byinshi byiza bitanga umusaruro mwinshi, kandi mwiza ushimishije, bityo abawuteye bakishima bakabijyana ku isoko, bakabona umusaruro w'amafaranga menshi cyane ushimishije.

Inzuzi ni nziza zikundwa n'abantu batari bakeya, kubera ko barazitera zivamo ibihaza, ibihaza bakabica bakabijyana ku isoko, bakabaha amafaranga atuma biteza imbere.

Ibishyimbo bimeze neza, bisa neza biri gukura neza, bikeneye guterwa umuti kugira ngo uwo muti utume bikomeza gukura neza cyane.

Amagi ni meza atuma umubiri ugira ubuzima bwiza bwa buri gihe iyo umuntu ayatetse arayarya akumva aryoshye. Bayajyana ku isoko bigatuma babona umusaruro wamafaranga menshi atuma bakomeza kwiteza imbere.

Ibishyimbo bimeze neza, byakuze neza ubona ko ntakibazo bifite, byatanze umusaruro mwinshi kandi mwiza ugaragara.

Abantu bari gugosora amasaka, ubona ko bishimiye umusaruro bakuye mu masaka yabo, bayajyana ku isoko bakayagurisha bakabaha amafaranga, atuma bakomeza kwiteza imbere mu bindi bihingwa.

Ingano ni igihingwa cyiza gikundwa n'abantu benshi. Barazihinga zamara kwera bakazibitisha bakaryamo umutsima, cyangwa bakazibedesha bakanywamo igikoma, cyangwa bakazanika bakazijyana ku isoko bakabaha amafaranga bagakomeza kwiteza imbere.

Ibishyimbo biri kuva mu butaka, biri kuzamuka neza nta kibazo bifite, bikenewe guterwa umuti kugira ngo bizazamuke bimeze neza.

Ibishyimbo bimeze neza bisa neza, iyo umuntu abiriye amera neza akumva biryoshye, bityo umubiri ukamera neza cyane.

Ikigega abakera mu muco gakondo bakoreshaga, babikamo ibyo kurya nk'ibirayi, ni ibishyimbo n'amasaka, kugira ngo bizigamire bitazagira icyo biba.

Ibigori bimeze neza, bisa neza, biri gukura neza. Bigaragara ko bizatanga umusaruro mwinshi kandi mwiza, bakabijyana ku isoko kubigurisha, bakabona amafaranga atuma bakomeza kwiteza imbere.

Ubunyobwa ni igihingwa cyiza, gikundwa n'abantu batari bake cyane, baragihinga cyamara kwera bakakijyana mu isoko bakakigurisha, bakabaha amafaranga, agatuma bakomeza kwiteza imbere, mu bindi bihingwa bitandukanye.

Ibigori ni byiza cyane, byakuze neza byatanze umusaruro ugaragara. Barabimanitse kugira ngo byume. Nibimara kuma bazabihungura babijyane ku isoko, babigurishe. Babahe amafaranga yatuma bakomeza kwiteza imbere.

Ubunyobwa ni igihingwa cyiza cyane, gitanga umusaruro mwiza cyane, bakawujyana ku isoko, bakabaha amafaranga menshi kandi atuma bakomeza kwiteza imbere buri munsi.

Ibishyimbo byinshi bimeze neza byakuze neza. Ubona ko byatanze umusaruro mwinshi, utuma babona amafaranga, bakomeza kwiteza imbere mu bindi bihingwa.

Ubunyobwa ni igihingwa gikundwa n'abantu batari bakeya. Iyo abantu babuhinze bakabujyana ku isoko bakabugurisha, bakabaha amafaranga, maze bakabihunika bakabushyira mu mufuka wabwo wabugenewe.

Ingano zimeze neza zakoze neza zisa neza ubona ko zatanze umusaruro ugaragara bakawujyana ku isoko bakabaha amafaranga atuma bakomeza kwiteza imbere mu bindi bihingwa bitandukanye.

Ibigori ni igihingwa gikundwa n'abantu benshi cyane, iyo babihinze birasarurwa bakabishyira mu mifuka, bakabijyana ku isoko bakabaha amafaranga, cyangwa bakabyanika bikuma bakabihungura bakabigurisha bihunguye.

Ihundo ry’amasaka riba rimeze neza cyane iyo rimaze kwera. Barayasarura, bakayanika, bakayahura. Yamara kwera, bakayajyana ku isoko, bakabaha amafaranga, agatuma bakomeza kwiteza imbere mu bindi bintu.

Udufuka bacuruzamo ibintu bitandukanye nk'umuceri, cyangwa kawunga, cyangwa ifumbire yo gukoresha bari gutera ibintu bitandukanye.

Isoko bacururizamo ibintu bitandukanye, nk'ibishyimbo, kugira ngo abantu baze bahangana bamugurire, na we akomeze kwiteza imbere.

Imyaka iri mu murima ubonako itegereje gusarurwa ikajyanwa ku isoko kuyigurisha, bakabaha amafaranga atuma bakomeza kwiteza imbere mu bindi bihingwa.

Imifuka ni myiza bayikoresha bari guhunika imyaka itandukanye, bagashyiramo n'ifumbire y'ubwoko butandukanye, imyaka bashyiramo ni nk'ibishyimbo, ibigori cyangwa ibirayi kugira ngo bitazangirika.

Ibishyimbo by'amabara atandukanye ubona bimeze neza, biraryoha iyo biri kumwe n'amajeri wumva ari ibiryo biryoshye, iyo yeze ari menshi babijyana ku isoko, bakabigurisha bakabaha amafaranga atandukanye.

Ibishyimbo bimeze neza, babijyana ku isoko bakajya kubigurisha, bakabaha amafaranga atuma bakomeza kwiteza imbere.

Ibishyimbo byiza bimeze neza, bisa neza, iyo babisaruye barabigosora bakabijyana ku isoko bakabigurisha, bakabaha amafaranga agatuma bakomeza kwiteza imbere, n'ibigori na byo babijyana ku isoko bakabigurisha.

Mayizori ni ikigori cyiza kiryoshye gikundwa n'abantu benshi, baragihinga bamara kugihinga cyakwera bakakijyana mu ruganda nuko bakakibeta kikavamo ifu ya kawunga akaba ariyo turya bityo umuntu akagira ubuzima bwiza.

Inka zimeze neza baziritse ku ruzitiro rw'ibyuma hejuru, hahagaze umushumba wazo ,munsi hariho n'undi mu shumba wazo, bigaragara ko hari nk'icyo bari guhererekanya.

Amagi meza ameze neza, ubonako ari mu dutureyi twiza, dufite amabara atandukanye, ubonako ari ahantu hakeye cyane.

Inka imeze neza, isa neza, yakuze neza, ubona ko ikenewe guterwa umuti na veterineri, kugirango ikomeze gukura neza, izatange umusaruro w'amata menshi, kandi meza bakomeze kwiteza imbere.

Ibyapa bigaragaza ko aho bacuruza ibintu bitandukanye, bijyanye n'amatungo, abantu bahagana baje kubigura bakabaha amafaranga, kugira ngo biteze imbere mu buzima bwabo bwa buri gihe.

Ingurube ni ubworozi bwiza bukundwa n’abantu batari bake cyane. Iyo ubworoye bukagukundira, bukabyara. Iyo bubyaye butanga umusaruro w’ifumbire, ugatanga n’umusaruro w’ibyana byinshi, ukabigurisha, ugakomeza kwiteza imbere.

Ingurube imeze neza, isa neza ubona ko nta kibazo ifite, iri konsa abana bayo, izatanga umusaruro mwinshi kandi mwiza bigaragara.

Ubworozi bw'amatungo ni ubworozi bwiza. Iyo bumaze gukura buduha umusaruro ugaragara harimo nk'ifumbire. Iyo zimaze kubyara turazigurisha bakaduha amafaranga, atuma dukomeza kwiteza imbere mu bindi bintu.

Inka zimeze neza zisa neza ziri kurya ubwatsi, ubona ko nta kibazo zifite. Inka iyo ziri kurya ibyatsi zitanga umusaruro mwiza w'ifumbire, zikanatanga n'umukamo mwiza.

Inka nyinshi ziri mu biraro byazo ziri kuryaibyatsi. Iyo zimaze guhaga zitanga ifumbire nziza bakayiteresha ibirayi, nazo zigatanga umukamo mwiza w'amata bakawugurisha bakabaha amafaranga, bigatuma bakomeza kwiteza imbere.

Inka imeze neza, isa neza, yakuze neza, ubona ko igenewe kujya guterwa umuti kugira ngo ikure neza, izatange umukamo mwiza uryoshye.

Abavuzi b’amatungo, bita ku matungo, kugira ngo agire ubuzima bwiza. Bityo, n’abayoroye, kugira ngo babone umusaruro mwiza, utubutse. Nibawujyana ku isoko, bazabahe amafaranga menshi, kugira ngo bakomeze kwiteza imbere.

Ubworozi bw'ihene ni ubworozi bwiza butanga amafaranga menshi, bukaduha n'ifumbire umuntu ajyana mu murima, n'iyo ihene yabyaye barazijyana bakazigurisha, bakabaha amafaranga, agatuma biteza imbere mu bundi bworozi.

Ingurube ni ubworozi bwiza cyane bukundwa n'abantu benshi, kuko iyo bumaze gukura bukabyara butanga umusaruro mwinshi, kandi mwiza ugaragara neza.

Ingurube n'bworozi bwiza abantu bakunda batari bake, kuko itangaga umusaruro w'ifumbire ,kandi ifite na ba veterineri bo kuyitaho ,kugira ngo izatange umusaruro w'izindi ngurube nyinshi.

Inyoni imeze neza, isa neza, ikiri ntoya, iritonze ntaki kibazo ifite. Ihagaze ku gati gafite amahwa ariko ntaki kibazo igateye.

Inyoni imeze neza yakuze neza ntakibazo ifite, iratuje yihoreye ubuzima bwayo bumeze neza ntakibazo ifite.

Inyoni nziza imeze neza isa neza, ihagaze ku turabo yimereye neza ifite umutekano yishimye, bigaragara ko inezezwa n'ubuzima ibayemo.

Inkima ni nziza ikundwa n'abantu benshi, abazungu iyo baje kuyisura babasigira amadovize, agatuma u Rwanda rwacu rukomeza kwiteza imbere.

Inyoni imeze neza, isa neza, iri ahantu hatuje, ifite n'amabara meza, ubona ko iri kwiyubakira icyari cyayo, kugira ngo ige irabona aho itaha ijoro riguye.

Umushwi uri mu mazi wishimye umeze neza nta kibazo ufite, ubona ko witeguye gukura neza, ukazatanga umusaruro mwinshi kandi mwiza, utuma bakomeza kwiteza imbere mu bindi bitandukanye.

Inyoni zimeze neza ziri mu kinani, ubona ko zifite amabara meza, zituje nta kibazo zifite.

Utunyamaswa twiza tumeze neza, dusa neza ubona ko ntakibazo dufite, turi ahantu hatuje turishimye, kubera umutekano twifitiye.

Igisimba kiri mu mazi ubona ko kimeze neza, cyakuze neza, kivuye gushaka ibigitunga . Gifashe ifi mu kanwa kugira ngo kiyirye kigire ubuzima bwiza.

Imbwa nziza, imeze neza, yakuze neza, iri ahantu mu bwatsi, ubona ko ituje, inezerewe, kubera umutekano wa yo, iri kubona yifitiye iri ahantu hatuje.

Inyoni nziza imeze neza isa neza, iri ahantu hatuje nta kibazo yifitiye, irishimye kubera umutekano wayo ibona yifitiye nta kibazo.

Agasimba kameze neza, kabyibushye neza, kari gukura neza, uri kubona ko kari ahantu hatuje, gafite umutekano wako, karishimye, karatuje cyane.

Inkende zimeze neza, ziri gukina, zifite byo n'ibyo kurya kugira ngo zirye zikure, ba mukerarugendo ni bajya baraza kuzisura, bajye barasanga zimeze neza baduhe amadovize.

Ibigona biri mu kirere, biri kuguruka, ubona ko byishimye, binejejwe n'ubuzima bibayemo, bifite umutekano mwiza nta kibazo bifite.

Ingagi ni zimwe mu bintu bikundwa cyane cyane aho abazungu baza mu Rwanda bakaza baje kureba ingagi zo mu Rwanda, barangiza bakadusigira amadovize agatuma twiteza imbere mu bindi bintu.

Inyamaswa nziza zimeze neza ubona ko zigaragara neza. Ziri ahantu hatuje ku butaka iruhande rwazo. Hariho icyatsi cyiza ubona ko ari inyamaswa zimeze neza.

Inyamaswa nziza imeze neza, yakuze neza, ihagaze mubyatsi ubona ko ituje ntakibazo ifite, ifite umutekano mwiza.

Inyoni imeze neza isa neza ubona ko ntakibazo ifite, iri kuguruka iri gutembera kugira ngo yumve ko ifite ubuzima bwiza cyane.

Igisimba cyo mu mazi kimeze neza, ubona ko cyasamye kigaragara nk'aho cyishimye. Kiri ahantu hatuje mu mazi hameze neza hafite umutekano.

Inyoni imeze neza, isa neza, yakuze neza, ihagaze ku giti . Iruhande hari ibyatsi bihari, iri gufata akayaga kugira ngo imere neza cyane.

Inyoni nziza, zisa neza, zifite amabara meza, zihagaze ku giti, zishimye, nta kibazo zifite, zifite umutekano uhagije.